Icupa ririmo ikinyobwa gisindisha kitwa virunga iruhande hateretse ikirahure kirimo inzoga, hejuru harimo igifuro bigaragara ko yacayutse.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo, umutuku, ndetse n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hariho abantu babiri bafite igikoresho k'itumanaho kigendanwa ndetse n'icupa ririmo inzoga.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku cy'aharanga ahafatirwa ikinyobwa gisembuye, ku ruhande hari ikindi cyapa kiriho icupa ry'inzoga, inyuma hari ibidukikije birimo ibiti binini by'inganzamarumbo kandi hari amazu y'amagorofa maremare.

Igipapuro cyangwa ikayi, yifashihwa mu kuranga cyangwa kumenyesha, abaguzi bagannye, isoko cyangwa ahafatirwa amafunguro n'ibyo kunywa, hariho ibicuruzwa n'ibiciro byabyo.

Icyapa kigaragaza ahafatirwa ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ndetse n'ibyo kurya, kigizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru ndetse n'icupa ry'ikirahure.

Ni iyi. Igizwe n'abantu babiri, ikagirwa n'icyapa kerekana ahafatirwa ibyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye; abo bantu babiri umwe akaba ari umucuruzi ufite akamashini kifashishwa mu kwishyura, undi akaba ari umuguzi.

Inyubako bafatiramo ibyo kurya n'ibyo kunywa igizwe n'amabara y'icyatsi irimo abantu batandukanye bicaye n'undi uhagaze urimo kubabaza ibyo bafata.

Ikinyobwa kiri mu kirahure, gikoreshwa n'urubuto rw'indimu, rugufasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse hari n'ikirahure kirimo amazi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hari amatara ari mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi. Hahagaze abaguzi.

Inyubako ifatirwamo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ndetse n'ibyo kurya bitandukanye hakaba harangwa n'amabara atandukanye ndetse n'udutara tw'umuhondo.

Igipapuro cyifashishwa mu kwerekana cyangwa se kuranga ibicuruzwa bicururizwa aho hantu, ndetse hakaba hariho igiciro cya buri gicuruzwa.

Abagabo bicaye bari kuganira bafata icyo kunywa, imbere kandi hateretse ikirahure kirimo inzoga giteretse ku ntebe ibajwe mu mbaho.

Inzu y'ubucuruzi izururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hari amatara y'icyatsi kibisi hari kandi hejuru hubakishije igisenge k'imbaho cyangwa ibiti bikomeye.

Umucuruzi ucuruza ikinyobwa gisembuye n'ikidasembuye, hari umugabo wambaye impuzankano y'akazi, umupira w'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karuvati y'umukara.

Inyubako icururizwamo ibyokunkwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari kurangwa n'amabara yijimye ndetse n'umukara n'intebe zifite amaguru mareremare ndetse harimo n'umucuruzi.

Icyapa kiranga ahantu hacururizwa ikinyobwa gisembuye, hari icupa riri gusuka ikinyobwa cy'inzoga kandi inyuma hari inzu y'igorofa iri mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, yubakishije ibiti cyangwa imbaho bikomeye, hari icyuma kifashishwa mugukonjesha no gutuma ibicuruzwa biguma bifite ubuziranenge.

Igikuta kirekire kiri mu ibara ry'umuhondo cyandikishijeho ibara ry'umutuku, kerena ahacururizwa ikinyobwa gisembuye k'inzoga gisindisha.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hari abantu benshi ibinyobwa bisembuye bitondetse neza ku murongo. Hari amatara kandi ari mu ibara ry'umuhondo.

Ikirere gikeye, ikinyabiziga gitwaye, umuntu ndetse bambaye ibirinda mutwe, kuruhande hari imodoka iri mu ibara ry'umukara ,imbere har' inz' icururizwamo ,ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hacuruza ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari abakobwa n'abahungu bafite akamwenyu ku maso, hari imeza ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'igishushanyo kiriho abagabo bane bambaye amakoti y'umukara.

Isoko ricuruza ibyo kurya bitandukanye. Nk'aho batwetreka ibitok, abacuruzi bambaye imyenda isa.

Aho kunywera yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, hagaragazwa n'umucuruzi n'abaguzi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ndetse kandi hafatirwamo amafunguro y'abantu bingeri zose baturutse mubihugu bitandukanye, harimo abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, imbere yayo, hari ibitii byiza by'indano hari amatara atatse ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'cyatsi kibisi.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Imbere hari amatara ari mu bwoko bw'umuhondo ndetse hari udutebe duto cyane twiza turi mu ibara ry'umukara.

Igipapuro kigaragaza amategeko n'amabwiriza ndetse kikerekana ibiribwa, ibinyobwa bicururizwa mu nzu y'ubucuruzi itandukanye hakaba hariho n'ibiciro byaburi gicuruzwa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hicaye abantu benshi baturutse impande zigiye zitandukanye z'isi, hari udutara duto turi mu ibara ry'umuhondo.

Ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, amatara ari mw'ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza amashusho meza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ku meza hateretse ikirahure kirimo inzoga, hariho kandi amacupa abiri arimo inzoga.

Inyubako igaragaza ahafatirwa ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye igaragazwa n' amacupa ndetse n' ibirahure byo kunyweramo, iri kurangwa n' icyapa cy' izina ry' aho hantu.

Igipapuro cyangwa ikayi ikoreshwa hifashishijwe ikoranabuhanga, haba hariho kandi ibiri aho hantu, ibiribwa cyangwa ibinyobwa ndetse n'igiciro cya buri kimwe.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru. Imeza iteretseho icupa iri mu ibara ry'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibicuruzwa bijyanye n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, iyo nzu kandi icururizwamo ibiribwa, imbere hari umuhungu wicaye ku kinyabiziga gitwara abantu n'ibintu.

Icyapa kiyobora ahatangirwa ibicuruzwa bisembuye hari umuhanda wamabuye icyapa kiri mw'ibara ry'umutuku hariho icupa ry'inzoga, imbere yaho hari umutaka uri mw'ibara ry'umuhondo ahatangirwa ubufasha kubijyanye n'ikoranabuhanga.

Intoki zifashe ku gitabo kiri mu ibara ry'umukara, ibirahure byinshi birimo ubusa bikoresha mu kunywa amazi, amata, inzoga n'ibindi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, gishushanyijeho ikinyobwa gisembuye, hariho abantu batatu bizihiwe kubera icyo kinyobwa.

Ibiti byinshi by'ibidukikije amagorofa maremare, ndetse n'inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hariho icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hejuru hari inyubako yubakishijwe ibiti bikomeye byiza kandi biramba, hari kandi amatara ari mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye imbere hari abantu benshi baje gushaka ikinyobwa kandi hanze hari intebe zibajwe mu biti.

Icyapa kinini kiriho abantu bizihiwe, hagati harimo icupa ry'inzoga, hariho abagabo babiri n'abakobwa babiri, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi kandi hari n'ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hari abantu bane bicaye bari kunywa ibinyobwa. Ndetse bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki bigendanwa.

Inzu y'ubucuruzi ibicururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye bipanze neza mu buryo bwabugenewe burinda kwangirika cyangwa kuba byameneka hari kandi igikoresho cyifashishwa mu gukonjesha n'intebe iri mu ibara ry'umutuku.

Igitabo kigaragaza ibyo kunywa, amashusho yabyo ndetse amazina ndetse n'ibiciro byabyo bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara arimo ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, hari inzoga z'amoko yose zitondetse ku murongo.

Ahacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru afite igikoresho k'itumanaho kifashishwa mu guhamagara, kwandika ubutumwa bugufi, kohereza amafaranga n'ibindi.

Inyubako igaragaza aho bafatira ibisembuye, ibyo kunywa bisembuye cyangwa ibidasembuye ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, igaragazwa n'intebe, ameza n'amabara y'umuhondo yiganjemo ndetse n'amatara.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hatatswe amabara cyangwa amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umutuku.

Ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye umucuruzi yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umutuku hari kandi amatara ari mu ibara ry'umuhondo hubakishije imbaho.

Igitabo gihabwa umuguzi kugira ngo arebe ibihari ndetse amazina yabyo ndetse n'ibiciro byabyo bigiye bitandukanye.

Igitabo cyanditsemo ibyo kurya bitandukanye. Hakaba hagiye handitsemo buri kintu ndetse n'igiciro cyacyo, ikintu ndetse n'igiciro cyacyo. Hasi hakaba handitseho ngo muryoherwe.

Inyubako ifatirwamo ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye ndetse n'ibyo kurya, bigizwe n'amabara yiganjemo umuhondo ndetse n'amatara y'umuhondo igizwe n'abantu babiri bicayemo imbere.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye imbere hari icyuma kifashishwa mu gukusanya, mu gutambutsa amajwi ndetse n'amashusho. Hari amatara ari mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ubururu.

Icyapa kiranga ahacururizwa ikinyobwa gisembuye. Hari icupa riri gusuka mu kirahure inzoga. Icyo cyapa kandi kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye imbere hari icyuma cyifashishwa mukubika neza ndetse no gukonjesha ibyo binyobwa hari kandi akabati gakozwe mumbaho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Har'abantu benshi b'impande zitandukanye z'isi, ndetse hari amatara ari mw'ibara ry'umutuku n'umuhondo. Hari kandi ibisasa hasi biri mw'ibara ry'umweru n'umukara.

Ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, umukobwa wambaye ishati y'umweru, ibinyobwa bipanze neza ku muronko, mu bryo bwiza kandi bwzewe butanze umutekano.

Inyubako irimo ibyo kunywa bisembuye, amacupa ndetse n'ibirahuri byo kunyweramo biteretse ku meza.

Y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bitondetse neza, mu buryo bugezweho, bubirinda kwangirika, kumeneka, ndetse n'ibindi. Kandi hari imeza ndetse n'igikoresho kifashishwa mu gukonjesha.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye abantu benshi bafite ibyo kunywa imbere yabo bisembuye, imeza iri mu ibara ry'umutuku

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hari imeza iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'intebe nziza cyane. Hari kandi igikoresho kifashishwa mu gusakaza amajwi n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ku meza hateretseho icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure kirimo inzoga, hari kandi ibikoresho byifashishwa mu gukusanya amajwi ndetse n'amashusho bigatangwa neza.

Umuntu uri gusoma igitabo kiri mu ibara ry'umukara, imbere ye kandi hateretse ibikoresho byifashishwa mukunywa amazi, amata cyangwa inzoga ari byo byitwa ibirahure.

Inzu y'abacuru ibicururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari abakobwa babiri bafite akamwenyu ku maso, hagati harimo umugabo umwe. Ibicuruzwa kandi bitondetse neza ku murongo.

Icyapa kiranga ahantu hacururizwa ibinyobwa bisembuye, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'umutuku, hariho icupa, n'abantu bizihiwe.

Inzu y'ubucuruzi ihuriwemo n'abantu benshi, bacuruza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari kandi, icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaz amajwi n'amashuso.

Icyapa kiriho ikinyobwa gisembuye gifite ibara ry'umutuku, imbere yaho hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ukorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hari ikirahure kirimo ikinyobwa, hari kandi indabo nziza ziri mw'ibara ry'umweru. Ku ruhande hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa.

Inzu y'ubucuruzi ucururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari icyapa kiyobora kiriho amavide abiri, hari kandi urugi ruri mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, imbere hari ibara ry'umutuku kandi hari icyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu gutambutsa amajwi ndetse n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye bipanze neza ku murongo hakurikijwe uko bigiye bicuruzwa. Hari kandi intebe zikoze mu mbaho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hari igikoresho cyifashishwa mu kubika neza ndetse no gukonjesha ibinyobwa, hari kandi amatara ari mu bwoko bw'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Igipapuro cyifashishwa mu gutanga amatangazo ku bijyanye n'ibiribwa cyangwa ibinyobwa biri aho hantu, igipapuro kandi kiba cyanditseho umubarale w'amafaranga baca ndetse n'ubwoko bwose bw'ibiribwa n'ibinyobwa biri aho.

Ahafatirwa ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, hari kurangwa n'intebe zifite amaguru maremare, amatara atandukanye y'ubururu n'umutuku.

Icyapa kiranga ahafatirwa ibyo kunywa bisembuye, kigizwe n'amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, kiriho n'icupa ry'ikigo cya sikolu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, Hari intebe zikozwe mu mbaho zikomeye ndetse imbere hari amatara ari mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umutuku.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kiriho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hariho umugore uri kunywa ikinyobwa kitwa virunga. Hariho kandi ikirahure ndetse n'icupa ririmo ikinyobwa k'inzoga. Hariho intoki nyinshi zizamuye.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara ari mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi. Aha kandi haba hari imiziki y'ubwoko butandukanye.

Igitabo cyanditseho amazina y'ahantu, ibyo kunywa bafite bitandukanye, amazina yabyo ndetse n'ibiciro byabyo bitandukanye.

Icyapa kigaragaza ahantu ho gufatira ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ndetse n'ibiryo bitandukanye, ndetse n'izina ry'aho hantu.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo ibinyobwa bisembuye ndetse ndetse n'ibidasembuye, hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo, hubakishije kandi imbaho zikomeye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hirya gato haro ururabo ndetse imbere hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa bishembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hari icyuma, gishinzwe gusakaza amajwi ndetse n'amashusho, hari kandi amatara, ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bitondetse neza ku murongo. Imbere kandi hari icyuma k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu gutangaza amashusho ndetse n'amajwi.

Uburyo bugezweho bwifashishwa mu kwishyura, ukoresheje ikarita yabugenewe mu ikoranabuhanga, rihanitse cyane. Ugahabwa agapapuro k'inyemezabwishyu kuko wishyuye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidaasembuye, hari igikoresho k'ikoranabuhanga gisakaza amajwi ndetse n'amashusho, hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse hari n'imeza iteretseho icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure.

Curuzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse hubakishojwe ibiti bigezweho kandi bikomeye.

Ahafatirwa ibyo kunywa bisembuye harangwa n'amazina yaho amacupa atandukanye ibyo kunywa bisembuye ndetse n'umucuruzi uri kubicuruza.

Inyubako ifatirwamo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ibyo kurya bitandukanye ndetse bakanahabyinira, hagaragazwa n'amatara yaka ubururu menshi avangavanze.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye nibidasembuye umucuruzi uri gusuka ikinyobwa gikomeye cyane gisembuye mugikombe kinini afashe kandi icupa ririmo inzoga hari amatara ari mwibara ryicyatsi kibisi.

Agapapuro gato kinyemeza bwishyu batanga igihe umaze kwishyura, hariho ibicuruzwa byaguzwe ndetse nigiciro cya burikimwe hasi hakabaho umubare wabyo byose uteranyije.

Inyubako yo gufatiramo ibyo kunywa nibyo kurya bitandukanye igizwe n'abantu batandukanye ndetse n'ugiye kwicara. Irimo ikigaragaza amashusho, ameza, intebe ndetse n'amasorori. Amatara atandukanye.

Inzu icuruza imyenda n'inkweto yaba ibyo kujyana mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibyo gusohokana ndetse n'ibikapu bitandukanye buri kintu bitewe n'uko kigiye kingana harimo ingano zitandukanye.

Inyubako icuruza ituruka ku bukorikori harimo nk'amahembe, harimo ibintu bitandukanye biboshye, harimo imyenda yibitenge harimo imitako itandukanye ituruka k'umuco, harimo ikirahure cyo kwirebamo gifite urubaho ku ruhande, harimo imyenda yagiye yongererwa ubwiza mu buryo butandukanye.

Inyubako icururizwamo amata ndetse n'ibindi bitandukanye byo kuyafatisha, hagaragaramo ibituruka ku mafarini ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye bikora n'uruganda rw'Inyange: amazi, amata ya bo, n'ibindi. Hakaba harimo n'imashini ibika ayo mata.

Ahantu hacururizwa amata hagizwe n'amabara y'umweru n'ubururu hakaba hari icyuma k'ikoranabuhanga cyagenewe gukonjesha amata no kuyabika neza. Hari umucuruzi n'abaguzi.

Ikirango cyerekana aho wagurira amata n'ibindi byose bituruka ku mata biva mu nka bitandukanye, yaba amavuta y'inka n'ibindi bitandukanye.

Igikoresho cyifashishwa mu gukonjesha ibintu, yaba ibyo kurya, ibyo kunywa, imboga waguze kugirango zidapfa ukaba wazishyiramo cyangwa ibindi n'imbuto.

Inyubako yo kuguriramo amata n'amazi ndetse na ji, hagizwe namabara y'ubururu n'umweru harimo umucuruzi n'umuguzi.

Ibyo kurya bigizwe n'ifarini, amazi, amata, amagi ndetse n'umusemburo, bikaba byifashishwa bifatanyije n'ikindi kintu cyo kunywa.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika neza mu gukonjesha no gutunganya ikinyobwa cy'amata gikomoka ku nka. Igikoresho kandi kirizewe inyuma hari amacupa y'amazi y'uruzi rugari rwa nili.

Umukobwa n'umuhungu bari kwamamaza ikinyobwa kiryoshye cyane gikungahaye ku ntungamubiri, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara gikoze mu mata cyongewemo imbuto nk'inyeri.

Icyuma kifashishwa mu gutunganya mu kubika no gukonjesha amata, cyanditseho Nyanza. Hashushanyijeho kandi inka nk'ikirango kerekana yuko aho hantu harimo ibikoresho bikomoka ku nka.

Umugore wicaye imbere ye hari igikombe kirimo amata kandi hari igikoresho cyifashishwa mu kubika neza ibinyobwa ndetse kinakonjesha.

Icyapa cya Mukamira cyanditseho amata ni ubuzima, kiri mu ibara ry'ubururu, hariho kandi igikoresho cyifashishwa mu kubika amata.

Ahacururizwa ibikomoka ku mata byongewemo ibindi bintu.

Umugore wambaye ikanzu iri mw'ibara ry'umutuku n'igitenge. Ari iruhande rw'icyuma cyifashishwa mu kubika, mu gutunganya ndetse no gukonjesha amata mu buryo bwa kizungu.

Hacururizwa ikinyobwa cy'amata hariho rw'ibara ry'ubururu, hari kandi imeza iri mu ibara ry'umweru. Icyapa cyanditseho inyange ndetse hashushanyijeho akanyange.

Umugabo uri guhereza umugore icyo kunywa, icyo cyo kunywa kandi ni icy'amata. Hari icyapa cyanditseho "Hano hari amata meza y'inka".

Inyubako icuruza amata ndetse nibyo kuyafatisha irangwa n'ameza, intebe, ibikonjesha ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibyo kurya ndetse n'icyuma kigumana ayo mata kikanayakonjesha.

Ahacururizwa amata y'inka hagizwe n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse hariho igishushanyo cy'inka handitseho ko amata aturuka i Nyanza, ari amata ya Nyanza.

Icyapa cyanditseho Inyange, hariho ibinyobwa bikorwa n'uruganda rw'Inyange, harimo amazi, inzoga, ibinyobwa borimo, isukari nyinshi n'ibindi n'ibindi.

Umugore ufite akabido keza cyane kari mu isuku ari gusuka amata mu bikombe byabugenewe nabyo bifite isuku, inyuma ye hari umwambaro w'akazi uri mui ibara ry'umweru.

Ahacururizwa amata harangwa n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse hakaba hari umucuruzi n'umuguzi ndetse n'igicuba kinini kibitse ayo mata.

Inyubako igaragaza aho kugurira amata ndetse n'amazi yo kunywa, hararangwa n'amabara y'ubururu n'umweru harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Ahacururizwa amata hagizwe n'amabara y'umweru n'ubururu hari igicuba kibika ayo mata ndetse nibyo gushyiramo ayo mata abaje kuyafata.

Ibikoresho byifashishwa mu kubika no gutunganya amata, byizewe kandi bikozwe mu buryo butateza ikibazo, ibyo bikoresho kandi hahagazemo umugabo uri kubipfundikira.

Ikinyobwa cy'amata kiba cyanyujijwe mu nganda, kikongerwamo ibindi bintu byifashishwa mu ntungamubiri harimo imbuto z'inkeri iruhande, hari amazi y'uruzi rugari Nili.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata hari icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kubika gutunganya ndetse no gukonjesha amata akagumana ubuziranenge hari kandi amacupa manini n'amato arimo amazi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata hari icyuma kifashishwa mu kubika, mu gutunganya ndetse no gukonjesha amata. Hari kandi intebe ebyiri n'imeza imwe.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari, ibiribwa bikaba biryoshye cyane hari kandi icyuma gishinzwe kubika amata.

Ikiribwa gikoze mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'ubunyobwa. Iki kiribwa kandi gikungahaye ku bitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara.

Inyubako icururizwamo ibyo kunywa bidasembuye, igaragazwa n'umucuruzi n'umuguzi

Inyubako igaragaza ahacururizwa amata harangwa n'amabara yubururu ndetse n'umweru, hagizwe na: n'igisenga harahgaragaza igisenge ishusho y'inka ndetse n'ibyansi.

Umukobwa uri kubuganiza amata ufite akamwenyu ku maso ni umucuruzi, inyuma ye hari icyuma kinini cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika, gutunganya no gukonjesha ikinyobwa cy'amata.

Inzu y'ubucuruzi, harimo ibicuruzwa, ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari. Imbere kandi ateretse igikombe cy'amata.

Abantu bari gusangira ikinyobwa cy'amata, imbere yaho hari ikiribwa gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'umunyu kikaba gitekeshejwe amavuta.

Ahacururizwa ikinyobwa cy'amata handitseho Nyanza. Hari inteb iri mu ibara ry'umweru, inyuma hari imeza ndetse ku ruhande hari icyuma gishinzwe kubika neza no gukonjesha amata.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata ariko aba yacishijwe mu nganda agafungwa neza mu bikoresho by'isuku byabugenewe biyarinda kwangirika, hakongerwamo imbuto nk'inkeri n'ibindi n'ibindi.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibyo kuyafatisha hagizwe n'indobo ndetse n'utujerekani, hari abantu babiri umucuruzi ndetse n'umuguzi, umuguzi uri kumwenyura.

Inzu y'ubucruzi icururizwamo amata ya Mukamira, aya mata kandi aba yanyujijwe mu ruganda agatunganywa neza akabikwa mu bikoresho byabugenewe.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa by'amata, binyujijwe mu nganda bigafungwa neza ibikoresho byabugenewe byizewe kandi bifite isuku aho bibikwa igihe kirekire.

Ahacururizwa amata hagizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, harangwa n'ibicuba bitatu bibitse amata indobo ndetse n'ameza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata hari icyuma kinini kifashishwa mu kubika ndetse no gutunganya amata y'Inyange. Icyo cyuma kandi gituma amata agumana ubuziranenge akonje.

Indobo irimo ikiribwa kiryoshye gikungahaye kubushobozi bwo kuturinda indwara ndetse bikubaka n'umubiri bigatera n'imbaraga. Bikozwe mu ifararini, isukari, amagi, amata, amazi ndetse n'umunyu.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoranywe ubuhanga buhanitse kibikwamo amata, agasukurwa, kandi akaguma akonje akagumana ubuziranenge.

Bigaragaza umuntu uri kunywa amata afatisha umutsima ugizwe n'ifarine, amata, amagi, amazi ndetse n'umusemburo, ndetse imbere ye hakaba hari n'ikaramu.

Aho gucururiza hari indobo irimo ibyo kurya bigizwe n'ifarini, amata, amazi ndetse n'amavuta.

Iragaragaza abantu babiri bateruranye igicuba, bafata amata bayasuka mu kindi gicuba kiri hasi, hakaba nanone harimo abandi bantu babiri ndetse n'ibikombe.

Igikarito kirimo umutobe uturuka ku matunda, kigaragazwa n'ishusho iriho amatunda inyuma amazina yayo ndetse n'uruganda ruyakora.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari kandi umucuruzi ufite akadomoro bashyiramo amata. Imbere ye hari ibicuruzwa byo kurya birimo: ifarini, amata, amagi ndetse bitekeshejwe amavuta.

Ahacururizwa ibikomoka ku mata ahagaragaramo ibikombe bigizwe n'amata avangavanze n'izindi mbuto zitandukanye.

Ikirango kwerekana ahacururizwa amata y'inyange bagizwe n'amabara y'Uburundi n'umweru ndetse n'amazina y'amata ahari.

Inyubako yo gucururizamo amata igaragazwa n'amabara y'umweru n'ubururu ndetse iragaragaza umuntu uhagaze afite ijage irimo amata, uri guseka.

Y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata hari umukobwa wambaye ikabutura ndetse n'agapira kari mu ibara ry'umweru hari kandi icyuma kifashishwa mu kubika no gutunganya amata.

Icyapa kiyobora ahacururizwa ibinyobwa by'amata ndetse n'ibindi byongewemo imbuto binyujijwe mu nganda. Ako kazu kandi kanditseho IKAZE.

Inzu icururizwamo amata igizwe n'amabara y'umweru n'ubururu ifitemo ndetse n'ibindi byo kuyafatisha aho mu imbere harimo intebe utubati n'ibindi.

Inzu icururizwamwo amata, igizwe n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse harimo intebe, igicuma kirimo amata ndetse n'uruganda rw'ayo mata.

Ahagurirwa amata, harangwa n'amabara y'ubururu n'umweru, hari uwicaye, ari gusuka amata, ayakura mu gicuba kinini kirimo amata, ayashyira mu cyansi yazanye.

Inzu yo kunyweramo amata igizwe n'amabara yiganjemo ubururu, umweru ndetse hari ameza ndetse n'intebe ebyiri.

Ibyo kurya bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari. Bikaba kandi biteretse ku meza ibajwe mu biti.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata hariho icyapa cyanditseho inyange, imiryango ibiri ifunguye iri mu ibara ry'ubururu, icyapa kiri mu ibara ry'ubururu handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi hariho kandi umwana ufite inseko ku maso.

Ibi ni ibi nyobwa by'abana bifunikishije umufuniko, ibara ry'umuhondo biri mu icupa rizamuye, harihoamagambo y'umukara.

Inzu z'ubucuruzi zitondetse ku murongo, zicururizwamo imyenda y'abagore ndetse n'abagabo, amakanzu, amapantaro, ndetse n'ibindi. Hari kandi inzu y'ubucuruzi bw'imiti y'abantu.

Inyubako icururizwamo amata. Igaragazwa n'igicuba kiyabitse, ndetse bakaba bafite n'ubundi bwoko bw'ibinyobwa bidasembuye.

Ikiribwa gikozwe mu ifarini, amata, amagi, inyama, amazi, ibitunguru, ndetse kiba gitekeshejwe amavuta.

Itereyi ni igoresho kifashishwa mu kubika neza amage, hariho amagi atondetse mu buryo bugezweho bwizewe umutekano wayo abirinda kumeneka.

Ahafatirwa ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye ndetse banacuruza amata. Amata ari mu gicuba kinini kiyabitse, ndetse bakagira imitobe, n'ibyo kurya bituruka ku ifarini.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, umukobwa wambaye ikanzu y'ibara ry'icyatsi, arimo arasobanurira umuguzi wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ari kumuha ubufasha kubijyanye n'ibyo akora.

Ubucuruzi icuruzwamo ikinyobwa cy'amata, umucuruzi yambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru, ifite isuku. Hari kandi ibikoresho bibiri bikoreshwa bibika amata, hari abana babiri bari kunywa batabizihiwe.

Ikaragiro cyangwa se ahacururizwa amata y'unyange, hari icyuma gishinzwe kuyasukura, kuyabika, ndetse no kuyakonjesha mu buryo bugezweho. Hari abakozi babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru.

Imeza iriho ifunguro rifunguwe neza ritunganyijwe neza mu buryo bwizewe ndetse bukoranywe isuku ihambaye, ifunguro rigizwe n'itoki, ibishyimbo n'ibindi n'ibindi bidufasha mu buzima bwa buri munsi hari igikombe kandi kirimo amata.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bidasembuye biri mu bucupa meza atandotse neza hari amazi kandi y'uruzi rugari rwa Nile, ibyo binyobwa bikozwe mu mbuto nk'amatunda, amapera ndetse n'imyembe.

Indobo iteretse ku meza ndetse n'ibindi bikoresho bibiri byifashisha mu kubika neza ibinyobwa bikagoma bishyushye kandi bifite ubuziranenge.

Kiryoshye cyane gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umusemburo ndetse n'ibindi byinshi bitunga umubiri bikanarinda indwara.

Amazi ari mu macupa agizwe n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'ikirango k'ikigo kiyakora.

Ahacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bitondetse neza ku murongo. Hari kandi amata afunze neza mu bikoresho byabugnewe ndetse n'amazi y'uruzi runini rwa niri.

Ikiribwa kiryoshye, cyorohereye kandi gifite intungamubiri nyinshi gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umusemburo ndetse n'umunyu.

Ahacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari indobo irimo ibiribwa, bikungahaye ku ntungamubiri ndetse birinda indwara, bigatera n'imbaraga, kandi bikozwe mu ifarini, amavuta, isukari, umunyu ndetse n'ibindi.

Ikiribwa gikoze mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'umusemburo. Hari kandi igikombe kirimo amata, byose biteretse ku meza iri mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata hari isuku haratuje hari umutekano, mw'imbere harimo icyuma cyifashishwa mu gutunganya kubika neza ndetse no gukonjesha amata akagumana ubuziranenge.

Inzu icururizwamo ibiribwa bikozwe mu ifarini, amata, amagi, amazi ndetse n'isukari bigatekeshwa amavuta, imbere yaho hari icyuma cyifashishwa mu gukonjesha.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye higanjemo amata, ikinyobwa cyiza cyane gikomoka ku nka kibitswe neza mu cyuma cy'ikoranabuhanga cyabugenewe kifasha kuguma akonje kandi afite ubuziranenge.

Ikirango kiriho umwana ufite ikirahure kirimo amata y'inyange cyanditseho: ni amata mez,a ahebuj,e ateguwe neza, ashobora guhita anyobwa, yujuje ubuziranenge.

Bikozwe mu mata, amagi, amazi, ifarini, amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikungahaye kuri vitamine zose.

Ikibwa kiryoshye gikoreshwa mu bucuruzi, kikaba gikorwa mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umunyu ndetse n'amavuta.

Ikusanyiro ry'amata cyangwa aho bagurira amata.

Ikiribwa kiza cyane kiryoshye gitera imbaraga ndetse kikarinda n'indwara cyikubaka n'umubiri, gikozwe mw'ifarini amata amagi amazi ndetse n'amavuta.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata, umucuruzi wambaye impuzankano, ifite isuku iri mu ibara ry'umweru. Abana babiri bari kurya ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata ndetse n'amazi.

Ikiribwa kiryoshye gikoze mu ifarine, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'umusemburo. Ikiribwa, gihingwa gikungahaye ku bitunga umubri, ibyubaka umubiri, ndetse n'ibirinda indwara.

Ahacururizwa amata harangwa n'amabara y'ubururu n'umweru, ndetse n'ikirango cy'uruganda ruyakora.

Ikiribwa gifunze neza ahabuganewe kiri mu mabara meza cyane gikoreshejwe ifarini, isukari, amazi, amata, amagi ndetse n'umunyu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata gikorwa n'uruganda rw'inyange, hari intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'igikoresho gikoreshwa gikonjesha amata.

Ikiribwa kikozwe mu ifarini, inyama cyangwa ibirayi cyangwa amashaza, kandi gitekeshejwe ibitunguru n'amavuta.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata, imbere hahagaze umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku. Kandi ku meza hateretse igikoresho cyifashishwa kibikwamo amata.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari intebe y'ubururu ndetse n'umweru imbere hari ibicuruzwa bitondetse neza ku murongo kandi hari icyuma kifashishwa mugukonjesha ibicuruzwa.

Abantu batatu bari kunywa amata bizihiwe, kandi umwe nta mata ari kunywa, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, harasukuye kandi ayo mata afite intungamubiri.

Icyapa cyerekana ahakorerwa igura n'igurisha ry'amafaranga cyangwa ivunjisha ry'amafaranga ava mu manyarwanda bayashyira mu manyamahanga ahagaragaramo nk'amanyamerika, abanyaburayi bakayavunja mu manyarwanda ryerekana uko ubu rigura n'uko rigurishwa.

Icyapa kigaragaza ahakorerwa igura n'iguranisha ry'amafaranga. Hakaba na none hakorerwa kuvunja amafaranga bayakura mu mafaranga amwe y'iguhugu runaka bayashyira mu y'ikindi.

Icyapa kigaragaza ahakorerwa ivunjisha ry'amafranga bayakura mu ma nyarwanda bayashyira mu manyamahanga . Ndetse n'ahakorerwa ibijyanye ni ingenagaciro ry'amafaranga

Inyubako irimo intebe icururizwamo intebe, ameza n'ibindi bitandukanye bituruka ku mbaho, aho umuguzi aza agahitamo icyo yashimye akavugana igiciro akaba aricyo yatwara. Harimo ibintu bitandukanye byose bituruka ku mbaho.

Inyubako y'ikigo cy'ubwishingizi cya Saniram ahagaragara intebe n'amezaza zo mu mabara atandukanye, hari ikirango cyabo, hakaba ari aho abantu bicara mu gihe bategereje serivisi zitandukanye zijyanye n'ubwishingizi bwaho.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye ahagaragaramo imineke, imyembe, amacunga, ibinyomoro, amatunda ndetse n'ibindi bitandukanye harimo abaguzi, abacuruzi,....

Isoko ricuruza imyenda y'abana batandukanye; abakuru, abato cyane, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi harimo amakanzu n'ibindi bitandukanye ariko by'imyenda y'abanda bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye bituruka mu bukorikori, ahagaragara ibitebo, uduseke, imitako yo ku maboko, mu ijosi ndetse n'ibindi bitandukanye amaherena ndetse n'ibindi byose bimanikwa mu mazu bitandukanye.

Agakoresho kagaragaza ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya MTN, hariho uburyo bwo kwishyura, imibare yo kwishyura ari yo rimwe, zeru, umunane, kane, rimwe, gatatu.

Akazu kagaragaza ahakorerwa ibijyanye n'umurongo mugari w'itumanaho, kagizwe n'amabara y'umuhondo n'umukara hakaba hari abantu babiri..

Abakozi bambaye impuzankano y'akazi riri mu ibara ry'umuhondo, bari gutanga ubufasha ku baturage ku bijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Uburyo bugezweho bwiza kandi bwizewe, ukoresha igikoresho cyawe cy'itumanaho kigendanwa mu kwishyura cyangwa kohereza utavuye aho uri.

Inyubako y'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni ikaba irimo umuyobozi, umeze nk'umuyobozi w'umuzungu uri guha impano umukiriya w'imena. Hakaba hari n'umukozi wicaye akaresha ikoranabuhanga.

Ikirango cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ndetse nimero y'ubucuruzi ni mirongo inani n'icyenda, tandatu gatandatu, tandatu n'umunani.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'ikigo k'itumanaho ndetse n'umuyoboro w'ikoranabuhanga mu Rwanda. Hanze hari abakozi bambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyanditseho uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga iki cyapa kiri mwibara ry'umuhondo, kanda akanyenyeri ijana na miringo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gukwirakwiza ndetse no gutanga ubufasha ku bijyanye n'itumanaho, umurongo mugari mu Rwanda. Kari mu ibara ry'umuhondo. Imbere hari umugabo waje gusaba ubufasha.

Umukozi w'ikigo gishinzwe umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda MTN, yambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, ari gutanga ubufasha ku bijyanye n'ibisobanuro batanga.

Abakozi babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo n'undi umwe uri mu ibara ry'ubururu, batanga ubufasha ku birebanye n'ikoranabuhanga.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo ubufasha bugiye butandukanye ku bijyanye no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, umuyoboro w'itumanaho ndetse ukaba wabitsa ukanagurizwa ku buntu.

Umugabo wicaye wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda ari gutanga ubufasha bujyanye n'ikoranabuhanga ku baturage.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, imbere ye hari igikarito cyerekana uburyo wakoresha wishyuramo kandi hari n'umuguzi waje amugana, ufite icyuma cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki.

Umugabo utwaye ikinyabiziga. Ikinyabiziga kiriho igikoresho kifashishwa mu gutwara cyangwa kugemura ibiribwa bihiye; ari kuvugana kandi n'umukozi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ari kumuha amafaranga bigaragara ko ari kubikuza yifashishije ikoranabuhanga.

Ikarita yerekana uburyo wakwishyura nta kiguzi, nimero y'umucuruzi, karindwi icyenda, umunani umunani, gatatu gatanu.

Inyubako yerekana aho washyiriraho amafaranga ukayakuzaho cyangwa ukayoherereza mugenzi wawe, irangwa n'ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'amagambo agaragaza ikigo kiyishinzwe.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha cyangwa uburyo wakoresha wishyura, wohereza cyangwa ubitsa amafaranga yawe utavuye aho uri. Kari mw'ibara ry'umuhondo.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga serivise zijyanye no kugura cyangwa kwishyura ukoresheje itumanaho umurongo mugari m'urwanda ako kazu kari mw'ibara ry'umutuku.

Akazu gatangirwamo ubufasha, inama, ubugenzuzi, ku bujyanye n'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda Eyateri, abakozi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku.

Ahatangirwa ubufasha bw'itumanaho umuyoboro mugari mukuru mu Rwanda emutiyene, harimo abakozi babiri bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo, impuzankano y'akazi.

Rikuru rishinzwe gutanga ubufasha ku birebana n'itumanaho. Handitse "Wikwisondeka". Kanda akanyenyeri, magana atatu na mirongo ine na gatanu, urwego, ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Umukozi w'ikigo k'itumanaho mu Rwanda, ari gufasha umuturage kubirebana n'ubufasha batanga, imbere ye afite mudasobwa yifashisha mu kazi ke.

Ni igikoresho k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, kikaba cyanditseho uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe igikoresho k'itumanaho, imibare wishyuriraho ndetse n'ikigo wishyura icyo ari cyo.

.... y'ubucuruzi n'ibiribwa bigiye bitandukanye, hari icyapa cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje igikoresho cy'itumanaho kigendanwa. Umucuruzi kandi afite mudasobwa ndetse n'imashini isohora impapuro z'ifatabuguzi.

Umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki ari gukoresha ikoranabuhanga mu bijyanye no kwishyura ibintu runaka.

Umuntu ufashe mu kiganza igikoresho, kifashishwa mu gutumanaho yaba guhamagara cyangwa koherezanya ubutumwa kirimo amabara y'ubururu.

Akazu gatangirwamo ubufasha ku birebana no kubica, kubikura ndetse no kohereza amafaranga kandi ushobora kubakoresha wizigama, mu bihe bigoye biri imbere.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gufasha abaturage cyangwa abaguzi, bariganye. Hahagazemo umuhungu witeguye kwahira neza abamugana. Hari kandi ako kazu kari mu ibara ry'umuhondo.

Ahakorerwa ubucuruzi ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga ryabugenewe, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego ugakurikizaho nimero y'umucuruzi.

Akazu gato kifashishwa mu gutanda ubufasha, cyangwa ishami ry'ikigo gishinzwe itumanaho, umuyoboro mugari, mu Rwanda. Hahagazeho abakozi babiri; umukobwa n'umuhungu bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha, ubugenzuzi n'inama ku birebana n'itumanaho uburyo warikoresha wishyura, wiguriza ndetse wohereza amafaranga aho ari hose mu gihugu cy'u Rwanda.

Ku biro bikuru bishinzwe gutanga ubufasha mu itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda hari telefoni yanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego, ndetse hari na mudasobwa imbere.

Icyicaro gikuru cy'itumanaho mu Rwanda gikora ibijyanye n'ubufasha mu itumanaho cyangwa se ikoranabuhanga, aho wishyura ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gufasha cyangwa gukwirakwiza itumanaho mu Rwanda kari mu ibara ry'umuhondo.

Ikicaro gikuru cy'umuyoboro mugari w'itunamaho mu Rwanda Eyateri, hari icyapa kiriho abagore babiri bafite akamwenyu ku maso, ndese bafite mu ntoki igikoresho k'itumanaho kigendanwa.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha n'ubusobanuro ku bijyanye n'ikoranabuhanga, kwishyura, kubitsa, kubikuza, utavuye aho uri.

Ahatangirwa ubufasha cyangwa inama kubirebana n'ikoreshwa ry'itumanaho mukwishyura, kubitsa, kohereza amafaranga, utavuye aho uri ukoresheje igikoresho cy'itumanaho kigendanwa.

Ni ishami rikuru rishinzwe, gutanga ubufasha ku itumanaho n'umuyoboro bugari uha abaturarwanda ikoranabuhanga ryiza kandi ryizewe ryihuta.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha bw'itumanaho n'umuyoboro mugari mu Rwanda emutiyene, kari mu ibara ry'umuhondo, hari kandi abaje gusaba ubufasha ku birebana n'ibyo bakora.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha ndetse n'inama ku bijyanye n'itumanaho. Kandi bakubwira uburyo bworoshye wakifashisha mu kwishyura, kohereza cyangwa kubitsa amafaranga utavuye aho uri.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda emutiyene, yambaye impuzankano iri mw'ibara ry'umweru ndetse n'akarangagantu kari mu ijosi, kari mw'ibara ry'umuhondo.

Umugabo ukorera ikigo gishinzwe gukwirakwiza no gutanga ubufasha kubijyanye n'itumanaho MTN. Yambaye impuzankano irimo ibara ry'umuhondo yandikishijeho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Akazu gato kari mu ibara ry'umutuku, ishami rito rishinzwe gukwirakwiza uburyo wakoresha, wishyura, uhamagara, wandika, ndetse ukanahendukirwa ukoresheje ikoranabuhanga.

Abagabo babiri batwaye ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, abagenzi bari kubishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakoresheje igikoresho kigendanwa cy'itumanaho.

Umugore wambaye umupira w'akazi mpuzankano iri mu ibara ry'umuhondo handitseho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu. Afite igikoresho cy'itumanaho gikoreshwa mu guhamagara no kwandika ubutumwa bugufi.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda, wambaye impuzamkano y'akazi, iri mu ibara ry'umuhondo bari imbere y'akazu kar mu ibara ry'umuhondo nako, ari gusobanurira umuturage ku birebana na serivise batanga.

Abakozi b'ikigo gishinzwe umuyoboro mugari w'itumanaho mu rwanda mtn bambaye impuzankano iri mwibara ry'umuhondo ndetse n'ingoferoro z'ibara ry'umukara baje gutanga ubusobanuro n'ubufasha ku bijyanye n'imikorere yabo.

..... ku birebana n'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda, harimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru. Hari kandi umukozi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Agakoresho k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene cyanditseho uburyo wacamo bwo kwishyura ndetse n'amazina y'uwo wishyura.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo gatanga ubufasha kubijyanye n'itumanaho umurongo mugari mu Rwanda MTN, harimo kandi umukozi uri gutanga ubufasha ku bikorwa bikorerwa aho.

Ikarita yerekana uburyo wakwishyura nta kiguzi. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri mirongo kenda makumyabiri na gatanu, zeru gatanu urwego.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo gatangirwamo ubufasha bugiye butandukanye ndetse ni ak'ikigo k'itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda emutiyene batanga kandi uburyo wakoresha wishyura, wakira ndetse wohereza amafaranga.

Umugabo wicaye ufite agakapu k'umukara afite icyuma k'itumanaho mu ntoki kigendanwa. Gikoreshwa mu buryo bwo kwishyura, kwakira ndetse no kohereza amafaranga utavuye aho uri.

akazu gato cyangwa ishami ritangirwamo ubufasha bujyanye n'uburyo wakoresha itumanaho nikoranabuhanga, mukohereza no kwakira amafaranga kandi kari mwibara ry'ubururu.

Icyapa kikigo gishinzwe itumanaho murwanda MTN kiriho imibare yanditseho icumi mirongo inani na kane cumi na gatatu nuburyo ukoresha wishyura kubuntu kandi bwizewe.

Akazu karanga aho ahakorerwa ibijyanye n'umurongo mugari w'itumanaho kagizwe n'amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru muke.

Mudasobwa ebyiri imbere hari ibyapa by'abacuruzi wifashisha wishyura k'ubuntu nta kiguzi. Ibyo byapa ubikoresha ukoresheje ikoranabuhanga rigendanwa.

Akazu gato cyangwa ishami rishyinzwe gutanga ubufasha, ku bigendanye n'ikoranabuhanga ndetse n'umuyoboro mugari mu Rwanda, w'itumanaho. Ako kazu kari mu ibara ry'umuhondo.

Ahafatirwa mazutu n'ibindi bikoresho bikomoka kuri peterori, hari abakozi b'ikigo gishinzwe itumanaho n'umurongo mugari mu Rwanda. Bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Agakoresho k'umurongo mugari w'itumanaho emutiyeni kanditseho uburyo ukoresha wishyura ndetse n'amazina y'uwo wishyura.

Icyicaro gikuru cy'ibiro bikuru bishinzwe itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda w'itumanaho, Emutiyeni. Hari mu ibara ry'umuhondo.

Ahanditse uburyo bwo kwishyura wifashishije igikoresho k'itumanaho, kandi hakaba harangwa n'amabara aranga icyo kigo k'itumanaho agizwe n'umuhondo n'umweru.

Igikoresho kifashishwa mu koroshya itumanaho, kifashishwa mugihe umuntu akeneye kuvugana n'undi cyangwa kumwandikira, yaba ari kure cyangwa ari hafi bigatuma amakuru agera kumuntu ku gihe.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'itumanaho ndetse n'umuyoboro mugari mu Rwanda MTN, hari umugore wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari mudasobwa, ari gutanga ubufasha k'umugana.

Igikoresho k'ikoranabuhanga gikorehwa mu guhamagara ndetse no kohereza ubutumwa bugufi, iki gikoresho kandi kiri gukoreshwa hishyurwa ibikoresho runaka hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umutaka w'ikigo cy'itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda wa emutiyeni uri mu ibara ry'umuhondo harimo abahungu babiri bahetse ibikapu by'umukara.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abacuruzi n'abaguzi, hakaba harimo iibicuruzwa bitandukanye nk'intoryi, karoti, ibirungo bindukanye, ndetse hakaba hariho n'icyanditseho uburyo bwo kwishyura bwa emutiyene.

Abagabo babiri bizihiwe bari kubyina, hejuru hari icyuma cy'indangururamajwi, hirya gato hari icyapa cyanditseho izihirwe ndetse hari ibyapa byinshi biriho MTN biri mu ibara ry'umuhondo.

Nakazu gato cyangwa ishami rito rishinzwe gutanga ubufasha kubijyanye n'ikoranabuhanga ryo kohereza kubitsa no kubikura amafaranga utavuye aho uri, kari mwibara ry'umuhondo.

...ngirwa ubufasha ku birebana n'uburyo wakwishyura, ukabitsa, ukiguriza ndetse ukaba wakohereza amafaranga utavuye aho uri. Ni uburyo bwiza kandi bwizewe.

Umuntu wicaye ufite agakapu imbere ye kari mu ibara ry'umukara wambaye ipantaro iri mu ibara ry'ubururu afite igikoresho k'itumanaho kigendanwa mu ntoki yifashisha mu kwishyura ibicuruzwa.

Ikirango k'ikigo gishinzwe itumanaho cyanditseho imibare ukanda kugira ngo uyifashishe uri kwishyura, mu gihe uguze ikintu runaka, igizwe na gatandatu, gatatu, gatanu, gatandatu, kabiri, gatandatu.

Akazu gato k'ubucuruzi cyangwa ishami rito riri mu ibara ry'umuhondo, imbere harimo abakozi b'umurongo w'itumanaho ndetse n'ubushobozi bwo kohereza ndetse no kubikura amafaranga mu Rwanda.

Abakobwa babiri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, bakorera ikigo gishinzwe gukwirakwiza ndetse n'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, bambaye ibirango mu ijosi.

Inzu itangirwamo ubufasha kubijyanye n'itumanaho mu Rwanda, imbere hariho icyapa cyanditseho gutembera mu kirere.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'ibijyanye n'itumanaho umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda ariwo airtel, hariho abagore babiri bafite akamwenyu ku maso ndetse bari kureba mu gikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe kubitsa kubikura cyangwa gutanga ubufasha kubirebana n'ikoranabuhanga, ako kazu kari mu ibara ry'umuhondo.

Igikoresho cyifashishwa mu itumanaho, kiri kugaragaramo umuntu uri kwishyura ibihumbi bibiri, magana atanu, kuri Jean Bosco.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha cyangwa ibirebana n'inama mu bijyanye n'itumanaho kurikoresha mu kwishyura, kubitsa no kohereza amafaranga utavuye aho uri.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gufasha no gutanga ubufasha ku ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, ako kazu kari mu ibara ry'umuhondo, hicayemo umukozi ushinzwe gutanga ubwo bufasha.

Umucuruzi ucuruza inyanya, iruhande rwe hari umutaka uri mu ibara ry'umutuku, uwo mucuruzi afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, ari kwishyura akoresheje ikarita.

Abaturage bagannye ikigo gishinzwe itumanaho n'umuyoboro mu Rwanda. Bari kubabaza kubijyanye n'imikorere n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu buryo bwo kwakira, kwishyura no kohereza amafaranga.

Ahatangirwa ubufasha ndetse n'inama kubijyanye n'ikoreshwa ry'itumanaho mu kwishyura, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga hifashishijwe ibikoresho by'itumanaho, hari umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'ikoranabuhanga umubyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda uri mu ibara ry'umuhondo. Abakozi bambaye impuzankano y'akazi bari gutanga ubufasha kubirebana n'ibikorwa bakora aho hantu.

Utuzu duto dutangirwamo ubufasha cyangwa inama kubijyanye no kohereza kwakira ndetse no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, n'uburyo bwiza kandi bwizewe buhendutse.

Utuzu tubiri tw'ahatangirwa ubufasha, inama, n'ubwunganizi, ku birebena n'itumanaho ndetse n'ikoreshwa ry'ibyuma by'ikoranabuhanga, mu kwishyura, kwakira, no kohereza amafaranga, utavuye aho uri.

Ikirango kikwereka uburyo wakwishyura ntayandi mafaranga wishyuzwa. Ukana akanyenyeri ijana na miringo inani na kabiri, akanyenyeriumunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru zeru, gatanu gatanu cumi na gatatu urwego.

Inzu itangirwamo ubufasha bujyanye no kwishyura no kohereza amafaranga. Hari icyapa cyanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatatu urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Ahabereye imenyekanishabikorwa ry'ikigo cy'itumanaho, hagizwe n'amabara y'umuhondo, umweruru n'ubururu bwije, hakaba hari kurangwa na none n'abantu bambaye imipira iranga icyo kigo cy'itumanaho

Abakozi b'ikigo gishinzwe umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, bafite mudasobwa bambaye impuzankano z'akazi ziri mu ibara ry'umuhondo bari gufasha abaturage babiri.

Ahatangirwa ubufasha, inama ndetse n'ubugenzuzi kubijyanye n'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda eyateri hari mu ibara ry'umutuku.

Inzu itangirwamo ubufasha bugiye butandukanye bw'uburyo wakwishyura ukohereza, ukakira amafaranga utavuye aho uri. Hari abakozi bambaye impuzankano, irimo ibara ry'umuhondo.

Icyapa kikwereka uburyo wakwishyura nta mafaranga yandi uciwe. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani ba kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru kane gatatu gatandatu gatandatu ikenda urwego, ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha b'ikigo gishinzwe itumanaho mu rwanda, emutiyene, kari mu ibara ry'umuhondo imbere hari abaje gusaba ubufasha ndetse n'ubujyanama mu bijyanye no kwibikira kugurizwa ndetse no keishyura amafaranga.

Icyapa kikwereka uburyo wakwishyura udakoresheje amafaranga yo mu ntoki, ukaba wakoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa, ukaba wakwishyura nta mafaranga uciwe.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha bw'ikigo k'igihugu k'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda, kari mu ibara ry'umuhondo, imbere y'aho hari igorofa.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha inama ndetse n'inyunganiz ku bijyanye n'ikoreshwa ry'itumanaho wishyura, ubitsa, ubikuza amafaranga utavuye aho uri.

Ahari kubara imenyekanisha ry'ikigo gishinzwe itumanaho cya eyateli harangwa n'amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'amazina ya eyateli hari abantu batandukanye abambaye imituku ndetse n'abambaye indi myenda isanzwe.

Umukozi w'ikigo cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda afite mudasobwa imbere ye ari gusobanurira umuturage uje umugana ufite igikoresho k'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki ku bijyanye n'ubufasha batanga.

Abakozi babiri b'abagabo bambaye impuzankano iri mw'ibara ry'umuhondo handitseho utsinde kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego n'akanyenyeri magana atatu na mirongo ine nagatanu urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Utuzu tubiri dutoya twifashishwa mu gutanga ubufasha bugiye butandukanye ku ikoranabuhanga, akazu kamwe kari mu ibara ry'umutuku akandi kari mu ibara ry'umuhondo, kandi bagufasha kumenya uburyo wakoresha ikoranabuhanga wishyura, ubitsa, ubikuza amafaranga.

Urubuga rwifashishwa mu kugura. Kubaguzi bifuza kugura ibibintu batavuye aho bari hifashishijwe murandasi. Aho hariho ibintu bafite bitandukanye nk'ibyumisha imisatsi, ibikapu, imisatsi batera ku mutwe y'indi, inkweto ibyo bifashisha mu kugira isura neza kurushaho n'ibindi.

Urubuga umuguzi n'umucuruzwa bahuriyeho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye umucuruzi akaba yashyikiriza uwaguze ibyo yaguze ku buntu mu mugi wa Kigali.

Urubuga rwifashishwa mugutumiza ibyo kurya bitandukanye, handitseho ibibaranga n'amazina yabo bigizwe n'amabara y'icyatsi n'umweru, byifashishwa mugutumiza ibintu hifashishijwe murandasi.

Umugabo uri gusobanura ibijyanye n'ikoranabuhanga rikoreshwa hifashishijwe mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga bigendanwa mu ntoki.

Urubuga rwifashishwa mu gushaka serivise kanda hano ubone serivise zose z'ubukererugendo. Umuryango ikemezo cy'uko uri ingaragu, serivise z'ubutane n'ibindi n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibijyanye n'imyenda ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, hariho icyapa cyanditseho haha, ndetse ushobora no kubahamagara kuri zeru karindwi iminani ibiri, makumyabiri n'ikenda cumi na kane zeru kabiri.

Igikoresho cyifashishwa mu kugemura ndetse no gukwirakwiza ibiribwa bihiye. Kiri kandi ku kinyabiziga gitwawe n'umugabo. Handitseho gura ibikoresho by'isuku n'ubuzima. Ukanda akanyenyeri, icyenda,, rimwe rimwe, urwego, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.

Ibinyabiziga bitatu byifashishwa mu gutwara cyangwa kugemura ibijyanye n'ibiribwa cyangwa ibikoresho by'isuku byatumijweho n'umuguzi.

Umuyobozi w'ikinyabiziga kigendera ku mapine abindetse n'icyo kinyabiziga hejuru hariho isanduku itwara ibyo bamutumye bitandukanye, yambaye akarinda mutwe.

Ibinyabiziga bigendera ku maguru abiri, abayobozi babyo babyicayeho ndetse n'udusanduku inyuma tw'ibyatumijwe n'abantu batandukanye, ndetse bambaye n'uturindamutwe.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urwo rubuga rukoreshwa n'ikoranabuhanga.

Ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri cyagenewe kugemura ibintu ahantu hatandukanye gihagaze ku muhanda.

Urubuga umucuruzi n'umuguzi bahuriraho bakaganira ku biciro, aho umuguzi agabanyirizwa mirongo itatu na gatanu ku ijana ndetse agahabwa n'itumanaho rimufasha.

Urubuga rw'itumanaho rw'ikoranabuhanga ruhurirwaho n'umuguzi n'umugurisha bagahurira ku giciro, bacururizaho ibkoresho byifashishwa mu kurangurura amajwi no kuyasakaza ku isi.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: inkweto, imipira, ibyuma by'ikoranabuhanga, mudasobwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Urubuga rukoresha ikoranabuhanga rihanitse aho umucuruzi ahura n'umuguzi bakaganira ku giciro cy'ikicuruzwa kandi bikamugeraho aho ariho hose mu mujyi wa Kigali ku buntu.

Urubuga umucuruzi ahuriraho n'umuguzi bakaganira ku giciro, hari nimero wabonaho umucuruzi mu gihe ukeneye amazi cyangwa ibyo kurya, hamagara zero karindwi umunani, mirongo itanu na gatanu makumyabiri na gatanu magana arindwi na cumi na gatandatu.

Imbuga zifashishwa mu guhaha cyangwa gucuruza hifashishijwe murandasi, zigizwe n'amazina yazo agiye atandukanye ndetse n'ibirango byazo bitandukanye.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Abantu babiri bahagaze harimo umuyobozi w'ikinyabiziga kigendera ku mapine abiri, igikoresho kizanwamo ibyo bamutumye ndetse umwe yambaye agapfukamunwa, mugenzi we yambaye akarindamutwe.

Umuyobozi w'ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri ndetse n'ikinyabiziga cye, wambaye umwenda w'icyatsi ndetse n'agasanduku karimo ibyo aba yatumwe.

Abakobwa babiri; umwe ukora mu kigo gishinzwe kugemura ibintu bigiye bitandukanye kitwa vuba vuba. Yampano impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo utwaye ikinyabiziga wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umutuku, yambaye kandi ikirindamutwe, atwaye ibyo kurya.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhurirwaho n'umuguzi n'umucuruzi bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa. Aha kandi bahurira mu itsinda bakaharebera hamwe ibijyanye narwo. Haba hariho amafoto y'ibicuruzwa n'ibiciro byabyo.

Umuguzi n'umugurisha bahuriraho bakaganira kubiciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imisatsi, ibyuma by'itumanaho, inkweto, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku giciro, handitse ngo gukora ubusabe, hamagara ku buntu icyenda, rimwe, rimwe, rimwe.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa, bigiye bitandukanye bya mudasobwa, hamwe n'ibindi bicuruzwa bikoreshwa mu itumanaho rigendanwa.

Igikoresho kifashishwa mu gutanga cyangwa kugemura ibikoresho byifashishwa mu isuku kanda akanyenyeri, ikenda rimwe rimwe urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza, nawe witumirize ibikoresgo by'isuku.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa, bakishyurwa hakoreshejwe itumanaho ndetse harimo amashati, amapantaro, amakanzu ndetse n'amajipo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amakanzu meza, amapantalo meza, imipira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari imodoka y'umweru.

Uburyo bwifashishwa mu gutumiza cyangwa gutuma ibicuruzwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ukishyura ukoresheje igikoresho kidendanwa mu ntoki cy'ikoranabuhanga. Bikakugeraho ku gihe kandi birizewe.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho, bakaganira ku giciro, umuguzi akaba yakohereza amafaranga akoreshaje ikoranabuhanga rigezwaho, umugurisha akamwoherereza igicuruzwa ke, mu buryo bwizewe, ku buntu, mu mugi wa Kigali.

Umuyobozi w'ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri utwaye ikinyabiziga ndetse inyuma ye hari isanduku irimo ibyo bamutumye hifashishijwe murandasi.

Ibinyabiziga bibiri bitwaye abagenzi, abagenzi bambaye ibirinda mutwe biri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Ibinyabiziga kandi bitwaye umugore ufite agakapu kari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umukobwa wizihiwe, ufite akamwenyu ku maso, afite icyuma k'ikoranabuhanga kigendwanwa mu ntoki, yambaye ibisakaza majwi biri mu ibara ry'umweru, ndetse imbere ye hari agakapu kari mu ibara ry'umukara.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku biciro bigiye bitandukanye by'ibicuruzwa, hari ikiribwa gikozwe mu nyama, amata, amagi n'ifarini.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, umucuruzi n'umuguzi bahuriraho, bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa, hakagabanyirizwa ibiciro, ndetse hakaba umuntu yabimwoherereza ku buntu.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, ruhurirwaho n'umuguzi n'umugurisha, bakaganira ku biciro bigiye bitandukanye, ndetse habaho imikino y'amahirwe. Aha ugabanyirizwa mirongo irindwi ku ijana, ku giciro.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa, ibiciro byabyo bikaba byakugeraho aho uri hose mu mugi wa Kigali kandi ku buntu.

Umugabo w'umukozi ufite igikoresho mu ntoki, imbere ye hari ibyuma bigiye bitandukanye bikomeye kandi byiza.

Abakozi babiri b'ikigo gishinzwe gutwara ibiribwa bihiye mu mujyi wa Kigali k'ubuntu, ikigo kitwa vuba vuba bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umusore wicaye ku cyuma cyangwa igikoresho cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, atwaye ibikoresho umuntu amutumye byifashishwa mu isuku.

Umugabo utwaye ikinyabiziga kiriho igikoresho gitwarwamo ibikoresho by'isuku. Igikoresho cyitwa Kasha. Gura ibikoresho by'isuku n'ubuzima. Kanda akanyenyenyeri, icyenda, rimwe, rimwe, urwego. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.

Umuguzi n'umugurisha barahura bakaganira ku biciro bigiye bitandukanye, hifashishwa mu itumanaho ndetse urwo rubuga rukoresha iterankunga.

Gitwawe n'umugabo wambaye ikirindamutwe kiri mu ibara ry'umutuku, atwaye igikoresho kirimo ibiribwa kandi afashe mu ntoki igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu itumanaho.

Urubuga rw'itumanaho, umuyobozi akoresha mu gutanga amatangazo kub'ayobora. Kandi habaho ibucuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi n'umucuruza bagahuriraho bakaba baganira ku giciro.

Ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri ndetse gifite agasanduku hejuru kajyamo ibyatumwe hakoreshejwe murandasi.

Ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri, gifite igisanduku hejuru kirimo ibiba byatumwe hifashishijwe murandasi.

iyi foto iragaragaza abantu babiri bafite akamwenyu ku maso bambaye amadarubindi bafite ibirinda mutwe mu ntoki ndetse umwe arasutse undi afite imisatsi imanuye.

Ibinyabiziga bitatu byifashishwa mu gutwara no kugemura ibiribwa bigiye bitandukanye aho umuguzi atanga amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga bikamugeraho ku buntu.

Urubuga abagore bahuriraho mu rwego rwo kwirinda icyorezo cyo kuba bakwegerana bagakoranaho bakaba barwara indwara zigiye zitandukanye. Baruhuho bakaba bakora inama, bakaganira n'ibindi bitandukanye.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hifashishijwe ikoranabuhanga bagashyiraho igiciro bakakiganiraho, umuguzi akoherereza umugurisha amafaranga, undi nawe akabimugezaho ku buntu.

Ubucuruzi bwifashisha murandasi mu Rwanda ni bushyashya, ariko mu bice bitandukanye bugaragara ko bukura vuba, bugenda bwiyongera, kubera ko yaba abashoramari bo mu gihugu cyangwa abanyamahanga ndetse n'abatangira ndetse n'abarwiyemezamirimo abenshi bashyize inyungu zabo mu ikoranabuhanga rishyashya.

Ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri kifashishwa mu kugemura ibintu aho babisabye, hifashishijwe murandasi. Icyo kinyabiziga kikaba kirangwa n'amabara abiri icyatsi n'umweru ndetse n'amazina y'ikigo gikorera.

Inzu icururizwamo ubukorikori ndetse n'ubugeni, aho haba hatatse amafoto meza kandi menshi arimo urwibutso rugiye rutandukanye. Iyi nzu yubatse mu ikoranabuhanga.

Icyapa kiriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye ugurira ku rubuga, hanyuma bakabikugezaho ku buntu. Harimo imbuto nk'inanasi, hakabamo n'ibyo kurya nk'inyama, ndetse n'imboga nka karoti n'inyanya,

Isoko ricuruza ibyo kurya bitandukanye. Nk'aho batwetreka ibitok, abacuruzi bambaye imyenda isa.

urubga kigure rugurisha inkweto, imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ushobora kurusura unyuze kuri wa wa wa akadomo kigure akadomo rwa.

Umugabo ufite ikinyabiziga ahetse igikapu kinini cyanditseho vuba vuba, yambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, uwo mugabo kandi ashinzwe gukwirakwiza no gutanga ibyo kurya.

Umugabo ufite akamwebye ku maso wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu afite agakarito cyangwa se akifashishwa mu gutwara ibyo baguze hifashishijwe ikoranabuhanga.

Urubuga, umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku birebana n'ibiciro bigiye bitandukanye nk'inkweto, amakote, amashakoshi n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ikirango cyerekana uburyo wacamo kugira ngo ibyo watumije bikugereho vuba, kigaragazwa n'ibara ry'umuhondo amabara y'ubururu bwijimye ndetse hari kugaragaramo n'umuntu wikoreye.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhurirwaho abaguzi n'abacuruzi bakaganira ku bicuruzwa n'ibiciro bigiye bitandukanye , umucuruzi akoherereza umuguzi ibicuruzwa yaguze atavuye aho ari.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho by'itumanaho cyangwa by'ikoranabuganga, bigizwe na mudasobwa, ibikoresho by'irangururamajwi ndetse n'inyakiramajwi.

Umugabo wambaye ikirindamutwe cy'icyatsi kibisi, ari guhereza umukobwa ufite akamwenyu ku maso, wambaye amadarubindi ndetse n'agapira kari mw'ibara ry'umweru ibyo bamutumye. Ku cyo bamutumiyemo handitseho safi.

Abagabo babiri bahagararanye harimo umukozi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ikirinda mutwe ndetse imbere haparitse ikinyabiziga.

Urubuga umucuruzi ahuriraho n'umuguzi bakaganira ku birebana n'imiti cyangwa uburyo batangira icyo gukora, ubucuruzi bugiye butandukanye.

Abagabo babiri bahagararanye bafite igioresho gitwara cyangwa kigashyikiriza ibiribwa bihiye. Kiri mu ibara ry'umutuku ndetse hari n'ikinyabiziga kifashishwa mu kugemura ibyo biribwa.

Abayobozi b'ibinyabiziga bagendera ku maguru abiri ndetse n'ibinyabiziga byabo, bari mu muhanda barangwa n'imyenda itukura ndetse n'uturindamutwe dutukura.

Urububuga umuguzu n'umucuruzi bahuriraho bakaganira bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo mudasobwa imyenda, imipira, amapanytaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imodoka nyinshi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu, biri mu ibara ryiza cyane ry'umuhondo, ahanditse iposita ku igorofa rirerire.

Umuyobozi utwara ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri uhagaze mu muhanda, wambaye ikirindamutwe ndetse ufite n'ikindi gikoresho kuri moto kirimo ibyangobwa bye nk'imyambaro.

Ikinyabizinga kifashishwa mugutanga no gushyikiriza ibiribwa ababibatumye. Umutwazi yambaye impuzankano iri mw'ibara ry'umuhondo, abigezayo neza, muburyo bwiza Kandi bwizewe.

Umukobwa wambaye igisakazamajwi kiri mu ibara ry'umweru, afite inseko ku maso imbere ye hari igikapu kiri mu ibara ry'umukara, afite kandi mu ntoki igikoresho k'itumanaho.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhurirwaho n'umucuruzi ndetse n'umuguzi bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa ku biciro byabyo, hakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga bikamugeraho mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Icyapa kiriho ibiribwa nk'amafi, karoti, inanasi, inyama, amashu, amavuta ndetse n'ibitoki.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi akaba yakohereza amafaranga, umucuruzi akamwoherereza ibyo aguze ntawe uvuye ahori ari.

Ibiribwa birimo inyama, amafi, ndetse n'amagi. Hari kandi umugati ukozwe mu ifarini, amagi, amata ndetse n'amazi.

Urubuga ruhurirwaho n'umuguzi n'umugurishwa bakaganira ku giciro k'igicuruzwa binyuze ku ikoranabuhanga ndetse kikamugeraho ku mutekano mu buryo bwizewe.

Urubuga ruhurirwaho n'umuguzi n'umugurisha bakaganira ku giciro umuguzi akishyura akoresheje itumanaho rigendanwa akabigezwaho ku buntu ahariho hose mu mujyi wa Kigali.

Umugabo ugemura cyangwa ukwirakwiza ibyo kurya, icyo abitwaramo kiri mu ibara ry'umutuku ndetse yambaye ikirindamutwe kiri mu ibara na ryo ry'umutuku. Icyo abitwaramo giteretse ku kinyabiziga yifashisha abijyana.

Umugabo ufite akamwenyu ku maso ugemuye imboga ndetse n'imbuto yambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse hari ikinyabiziga imbere ye cyanditseho vuba vuba.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ukoresha wishyura ugatumiza ibicuruzwa hanze y'u Rwanda bikakugeraho aho wiganirira n'umucuruzi.

Umuyobozi w'ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri, utwaye inyuma ye agasanduku k'icyatsi, gatwarwamo ibyaguzwe hifashishijwe murandasi. Ndetse yambaye n'akarindamutwe.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa. Bacuruza amajipo, udupira, amakanzu meza y'ubwoko bwose.

Igikoresho kifashishwa mu gutwara cyangwa ikinyabiziga kifashishwa mu kugemura ibiryo bihiye biri mu gikoresho gifite ibara ry'ubururu.

Ikiribwa kiryoshye cyane gikozwe mu magi amata, isukari, ifarini ndetse n'umuceri. Kirizewe kandi gitera imbaraga kirinda indwara kinubaka umubiri.

Imodoka nini cyane iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho iposita. Ishinzwe kuvana ubutumwa bumwe hamwe ibujyana ahandi mu buryo bwizewe kandi bwiza.

Urubuga rw'ikoranabuhanga umucuruzi ahuriraho n'umuguzi bakaganira ku giciro cy'ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa, ibikoresho bigendanwa by'itumanaho, n'ibindi n'ibindi.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa, ibiciro byabyo, bacuruza imipira, amapantaro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ku giciro cyiza.

Inyubako igaragaza ahacururizwa imboga n'imbuto, bikiri bishyashya ndetse irangwa n'amabara ndetse n'amashusho agaragaza ibyo bafitemo nk'imboga, nka karoti, imboga imbuto zitandukanye.

Ikirango cyerekana ahazabera igitaramo ndetse bari kukweraka uburyo wakoresha wishyura ikarita yawe izakwinjiza mugitaramo ukoresheje ikoranabuhanga ndetse bari kukubwira n'ibiciro by'amakarita.

Urubuga rucururizwaho amazu ahagaragara inzu igurishwa miliyoni esheshatu ifite ibyuma bine n'ubwogero butatu kicukiro muri kigali ndetse hakaba handitseho n'urwo rubuga wabisangaho.

Inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye, aho hasi hari ahacururizwa imyenda y'abantu bakuru itandukanye ndetse n'inkweto. Hagati hakaba hari ahacururizwa imyenda y'abana, inkweto n'ibindi bikoresho byose by'abana. Hejuru naho hakaba hakoreramo ibintu bibiri bitandukanye, harimo ikigo kimwe gikore ukwacyo, ndetse n'ahandi bacururiza imyenda n'ibikoresho by'abana.

Inyubako icuruza ibyo kunywa bidasembuye ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye nk'umuti uhanagura ibirahuri, ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibyo kurya bitandukanye ahari n'ibikoresho byifashishwa mu gukonjesha ibintu bitandukanye.